Abakozi ba Leta bari mu nama, aho harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bafite za mudasobwa imbere yabo bakoreramo akazi bashinzwe.

Inama yo mu rwego rwa Leta igizwe n'abagabo ndetse n'abagore, aho iyobowe n'umugabo ari kubereka ku byuma byerekana amashusho, ari kubereka ibyo inama ishaka kuvuga cyangwa intego y'inama.

Umugabo ufite indangururamajwi bisa nk'aho ariwe uyoboye inama ari kubwira abitabiriye inama ibyo inama igamije cyangwa se icyo inama yateguye kuri uwo munsi kubagezaho.

Inama y'abakozi ba leta mu byiciro bitandukanye aho harimo abakozi ba leta bashinzwe umutekano akaba ari n'abayobozi, bambaye impuzankano yabo y'abasirikare.

Iyi inama cyangwa amahugurwa yari yabereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kigarama mu mujyi wa Kigali, aho harimo abashinzwe umutekano hakaba hari n'umukobwa ufite indangururamajwi ari kugenda ababwira ibyo bagezeho.

Aba ni abantu bari bari gufata amahugurwa ku bintu bigiye bitandukanye mu Rwanda, b'Abanyarwanda kuko ku mipira bambaye hariho idarapo ry'u Rwanda ndetse bakaba bafite n'amazi y'Inyange akorerwa mu Rwanda.

Aha hari habaye amahugurwa cyangwa inama, buri wese afite mudasobwa imbere ye, hakaba hari n'abanyamakuru, bafite ibikoresho bikoreshwa bari gufata amashusho.

Aha hari habaye inama ishinzwe guhuza abantu, aho harimo abafite za mudasobwa, hari abari kwandika bisanzwe, hakaba harimo abantu bagiye batandukanye, hakabamo igitsina gabo, harimo n'igitsina gore bose bagiye bavanze.

Birasa nk'aho ari abaturage bari mu nama rusange, bitabiriye cyangwa basoje umuganda bagakora inama kugira ngo baganire n'abayobozi babo.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ingofero y'ubururu, afite indangururamajwi ari kubwira abitabiriye ibyo barimo cyangwa se ari kubamenyesha ibyo bagiye gukora.

Aha hari iteraniro ry'abantu, aho abantu bari bahuriye bigaragara nkaho bari mu mahugurwa bambaye imipira isa bose, bambaye bose imipira ijya gusa umutuku.

Aha ndabona ushinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ari kumwe n'abandi bantu babiri, harimo umugore hagati wambaye umupira w'umweru hamwe n'amadarubindi y'umukara, hakaba harimo n'undi mugabo wambaye ikote ry'umukara mo imbere yambayemo umupira w'umweru wanditseho Rwanda.

Iki ni icyumba gikorerwamo inama z'abayobozi cyangwa iz'amakompanyi agiye atandukanye, uko bigaragara hano yari kompanyi, bari gukoreramo inama harimo igisenge gisa umweru.

Uko bigaragara hano hari habaye inama, aho hari abayobozi bagiye batandukanye, bambaye imyambaro myiza y'abayobozi, aho imbere yabo hari impapuro zigiye zitandukanye, hakaba n'amazi tuzi akorerwa mu Rwanda yitwa inyange.

Aha hari habaye umunsi mukuru wahariwe ubukerarugendo ku isi hose, aho bari bibanze ku Rwanda cyane cyane ko ari ho byabereye, uko ubibona imbere hari abanyamahanga ndetse n'Abanyarwanda.

Aha hari habaye inama uko bigaragara muri iki cyumba harimo ibikoresho bifasha kugira ngo inama igende neza, harimo mudasobwa, hakabamo ibyuma birangurura amajwi, uko bigaragara harimo, harimo n'abashinzwe umutekano.

Inama cyangwa se amahugurwa, ayobowe n'umukobwa ufite indangururamajwi, imbere y'abari kumva cyangwa se y'abariakubwirwa, nawe inyuma ye hakaba hari igikoresho gishinzwe kwerekana amashusho mu buryo bw'urumuri.

Aba ni abayobozi bo mu kigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu gihugu cy'u Rwanda, aho bari bari mu nama bari gutanga amahugurwa agiye atandukanye, mu kwishyura imisoro n'amahoro kandi bari bari kunywa amazi ya Nile.

Iri ni ipoto, rishinzwe mu gusakaza itumanaho mu baturage, begereye ahantu iri poto riherereye, bityo bikaba byabafasha kugira, gutuma gutumanaho byoroshye.

Ikirango cy'ikigo gishinzwe itumanaho rizwi nka MTN, ikirango cyayo gisa umuhondo, ubururu ndetse n'umweru. Inyuma yacyo hari umunara ushinzwe itumanaho nawo ukoreshwa mu bantu batuye muri ako gace.

Uyu ni umunara w' itumanaho, utwara itumanaho bigatuma abantu bavugana cyangwa bahana amakuru, mu bice barimo by'igihugu cyangwa by'isi muri rusange.

Uru ni urubuga rwo mu Rwanda rw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, akaba ari urubuga rwabo bakoreraraho, ushaka kureba niba warishyuye imisoro n'amahoro ku bufatanye na.

Icyapa cyanditseho irembo akaba ari urubuga rukoreshwa n'abaturage bo mu Rwanda kugira ngo babashe kubona ibyangombwa bigiye bitandukanye baba bakeneye harimo icyangombwa gisimbura irangamuntu, icyangombwa cyemeza ko utuye n'ibindi byangombwa bindi bigiye bitandukanye.

Aha ni ahantu hari umunara ushinzwe iby'itumanaho, aho uba uzengurutswe mu buryo bwo kuwurinda, uzengukishijwe ibyuma, hejuru hariho n'amasenyenge kugira ngo umutekano wiyongere.

Aha ni mu mujyi wa kigali, ahazwi nk'aho hatajya hagerwa n'imodoka, aho arebana n'inzu yo kwa Makuza, aho hantu hakunda guhurira abantu benshi cyane, hagereye na banki nkuru ya Kigali.

Abasore babiri umwe wambaye umupira w'umweru, undi wambaye umupira w'umutuku n'ingofero y'umutuku bakaba bafite mudasobwa iteretse ku meza ariho igitambaro gisa icyatsi afite na terefone zigezweho aho terefone afite isa umweru.

Iri ni itangazo ryatanzwe n'ikigo cyitwa RURA cyo mu Rwanda, cyavuza ati:"Ukeneye izi serivisi zo gutwara abantu n'ibintu muri RURA kora kuri iyo imeri iri hasi," aho ushobora kuvugana n'umukozi wa RURA bityo ukaba wabona iyo serivisi.

Uru ni urubuga rw'u Rwanda rushinzwe rwitwa visiti Rwanda rushinzwe gukurura ba mukerarugendo mu Rwanda, aho bari kwe abafatanyabikorwa babo mu bice bigiye bitandukanye aho tubonamo nk'ikipe izwi mu Bwongereza yitwa Arisenali n'andi makipe agiye atandukanye yo mu Bufaransa n'ahandi hagiye hatandukanye.

Icyapa kigizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, aho kimenyesha ko aho hantu hari murandasi, ushobora gukoresha bidasabye umugozi. Ufite telefone yawe cyangwa se mudasobwa yawe ushobora kujya kuri murandasi byoroshye.

Umunara muremure cyane ugizwe n'agasongero k'icyuma, aho umunara ufite amabara atandukanye harimo ibara ry'umutuku, hakaba n'ibara ry'umweru, munsi yaho gato hakaba ari ibiti nyaburanga.

Iki ni icyigwa cyakozwe n'ikigo cyitwa rura, aho cyagaragazaga imikoreshereze cyangwa imigurire ya interineti guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu Rwanda, aho umubare w'abantu bakoresha interineti wiyongereye cyane.

Uru ni urubyiruko rugiye rutandukanye aho ubona bose bafite ibikoresho ibikoresho by'ikoranabuhanga bari kugenda bakoresha harimo za mudasobwa, harimo za telefoni harimo n'ibindi bihe bitandukanye harimo benshi biganjemo ni urubyiruko.

Iyi ni gahunda ya Leta aho umuturage bimworohera kwishyura amadeni y'ubutaka, hifashishijwe uru urubuga rw'irembo, aho barukoresha hanyuma umuntu akaba yakishyura byoroshye amadeni yaba afitiye ubutaka.

Itangazo ry'ikigo cy'imisoro n'amahoro, aho uwashaka kubahamagara uhamagara gatatu zeru zeru kane cyangwa magana atatu kane, aho ushaka serivisi z'imisoro n'amahoro wazinyuza wishyura.

Urubuga rwa leta rwitwa irembo, rushinzwe gufasha abaturage kubona ibyangombwa bya leta n'ibindi byangombwa bigiye bitandukanye bitoroshye, umuntu abikoreye iwe cyangwa kuri telefone cyangwa mudasobwa ye.

Uru ni urubuga rw'u Rwanda rwitwa viziti Rwanda, rukangurira amahanga yose gusura u Rwanda rukareba ibyiza bitatse u Rwanda, bityo bikaba bikurura abakerarugendo mu gihugu cy'u Rwanda.

Ubu ni uburyo bukoreshwa kugira ngo amashanyarazi asakare ku baturage mu buryo bworoshye, bityo bakaba bayakoresha mu mirimo igiye itandukanye bakora buri munsi, aho twavuga nkuko bashobora kuyikoresha bacana amatara, bakayakoresha no mu bindi bigiye bitandukanye.

Abaturage benshi ndetse n'ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, hakaba n'inyubako ikoreramo iduka rizwi cyane nka simba, akaba ari ishami ryayo rikorera ahitwa Kimironko.

Hano ndabona umutaka w'ikigo cy'itumanaho gishinzwe na interineti aricyo emutiyeni, hamwe n'imodoka ijya kumera nk'iy'ubutabazi bw'ibanze n'ibiti byinshi biri aho hamwe n'ipoto ry'amashanyarazi.

Umugore wambaye agakanzu, akaba afite umufuka ku ruhande rwe. Ndetse akaba ategereje imodoka ku cyapa cyerekana ko imodoka zihagarara hariya, akaba ategereje imodoka ngo ibe yabasha kumujyana.

Aha ndabona amapoto cyangwa ipironi aho hanyuzwa insinga z'amashanyarazi kugira ngo insinga birinde insinga kumanuka ziva hejuru ku buryo zagera mu baturage zikabangiza.

Aha, ndabona ibiti, inyuma yaho hakaba hari umunara, aho umunara ufasha abaturage kuba bakoresha serivisi z'itumanaho biboroheye, mu buryo bwihuse kandi bwizewe.

Umuhanda mugari, aho ku ruhande hari icyapa cyerekana amerekezo y'umuhanda ko hari umuhanda ukomeza imbere, hakaba ari n'umuhanda utambika mu buryo, hakaba hari n'undi muhanda utambika ibumoso.

Inzu nini y'ubucuruzi imbere yayo hakaba hari imodoka hakaba hari n'ipoto ihuriweho n'insinga nyinshi cyane z'amashanyarazi ikaba ifite n'itara bakunda gukoresha mu masaha ya nijoro.

Aha ni amazu ndibona agezweho aho bakoreramo ibigo bya leta bigiye bitandukanye, aho inzu yubatse ku muhanda cyangwa twakwita kuri kaburimbo igendwa n'abaturage ubwo ho hariho n'abaturage bari kugenda bakora amasuku.

Iri ni ivuriro riherereye mu Karere ka Nyarugenge bakunze kwita ibitaro bya Nyarugenge. Aho bita ku baturage ,abarwaye indwara izo ari zo zose barabavura bakabitaho neza cyane.

Aha ndabona imodoka y'imbangukiragutabara ifasha abantu mu gihe bagize ibibazo byihutirwa bakeneye kugezwa ku Bitaro, nkabona n'abandi bantu bari kugenda batandukanye hari abari mu masuku, hari n'abandi bari muri mu ngendo zabo, hakaba hari n'izindi modoka ebyiri.

Aha ndabona abashinzwe umutekano bahagaze, hakaba hari n'icyapa cyerekana ko nta modoka nini zemerewe guparika hariya hafi aho, hakaba hari no gutambuka abaturage bagiye batandukanye.

Aha ni Kacyiru ku kigo nderabuzima cya Kacyiru gishinzwe kwita ku barwayi, aho ndi kubona n'ibinyabiziga bibiri aha ngaha akaba ari imodoka ebyiri ziri hano.

Aha ni mu kigo gishinzwe kwita ku ndwara z'amaso aho ugenda bakagupima amaso waba urwaye, bakagushakira imiti baguha bigendeye n'amaso urwaye, cyangwa bakakwandikira kujya wambara ibifashamaso.

Abantu bicaye biragaragara nk'aho ari mu nteko cyangwa mu nama rusange y'abaturage, bari kwiga ku kintu runaka, urabona ko imbere yabo hari abayobozi, imbere yabo bafite mashini ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, urabona ko bari kwiga ku kibazo runaka.

Ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe abagororwa n'imfungwa, hari abashinzwe umutekano muri gereza, hakaba n'imodoka bajyanamo abagororwa cyangwa imfungwa.

Abashinzwe umutekano babiri b'u Rwanda bambaye imyenda y'umukara bafite ikihebe cyo mu Buhinde cyambaye ikanzu y'abisilamu, kikaba cyambaye n'ingofero y'umweru y'aba isilamu.

Aha harimo ushinzwe umutekano wo mu nzu bafungiramo imbohe arizo bakunda kwita gereza imbere hakaba hari n'umufungwa cyangwa umugororwa umwe mu bantu baba barafunze afite igitabo yambaye n'amapingu.

Aha ni mu nzu iberamo inkiko, muri make ni mu rukiko, aho haba harimo umucamanza, umwavoka, umushinjacyaha, ndetse n'iburanishwa, ndetse n'abantu baje kumva urubanza.

Umucamanza wambaye amadarubindi, akaba yambaye n'ikanzu igizwe n'ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umukara, mo imbere akaba yambariyemo ishati ifite ibara ry'umweru.

Aba ni abayobozi harimo abacamanza, ndetse n'abavoka bagiye batandukanye bo mu nkiko zo mu Rwanda. Aho bambaye imyenda n'ubundi ikoreshwa mu nkiko ndetse no mu manza.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa, habaye inkongi y'umuriro, kugira ngo bigabanye umuriro, cyangwa se bizimye umuriro, watewe n'ibintu byaba bigiye bitandukanye, cyangwa bihagarike iyo nkongi y'umuriro, bikaba biri mu macupa asa umutuku.

Abashinzwe umutekano mu gihugu cy'u Rwanda, babarizwa mu ishami rya gipolisi, aho bafite intwaro mu ntoki zabo inyuma hakaba hari imodoka z'umuryango w'abibumbye, zisa umweru.

Uyu ni ushinzwe umutekano mu gihugu cy'u Rwanda, aho abambara impuzankano zimeze zitya akenshi baba bakora mu mutekano wo mu muhanda, aho bareba ko abantu bari gutwara ibinyabiziga bafite ibyangombwa byuzuye cyangwa bari kubitwara uko byabugenewe.

Umuhanda uri hejuru ahazwi nko ku kiraro cyo ku kinamba, abarimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo n'ikinyabiziga by'abashinzwe umutekano.

Aha ni Nyabugogo mu mujyi wa Kigali aho umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, ahagaritse abamotari kugira ngo bakurikirane umutekano mu muhanda.

Ushinzwe umutekano mu gihugu cy'u Rwanda, yateretse igikoresho bakoresha mu itumanaho ryabo hasi, akaba yari yegereye imodoka bagendamo bari gucunga umutekano wo mu muhanda.

Igikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe ahantu haje inkongi y'umuriro, kirifashishwa mu kugira ngo umuriro babashe kuba bawuzimya, kikaba gikunze kuboneka ahantu henshi hahurira abantu benshi.

Aha hari abagore batatu aho bose bafite impapuro mu biganza byabo hari n'izindi mpapuro ziri hasi uko bigaragara wagirango bari kubara amanota y'ibintu batoreye bimwe na bimwe utabasha

Umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, perezida Paul KAGAME ari kwiyamamaza mu ishyaka ryitwa FPR Inkotanyi, akaba yari ari kwiyamamaza inyuma hari abantu benshi cyane bari bamushyigikiye, bafite amadarapo ariho ibirango cyangwa se amadarapo yamamaza ishyaka rya FPR.

Agaseke kari kugenda gashyirwamo amajwi bitewe n'icyo bagiye bashaka gutora, uko bigaragara hari habaye amatora buri wese akagenda ashyiramo agapapuro kerekana amajwi y'uwo yatoye cyangwa icyo yatoye.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda ari mu nama n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, aho bari ari mu nama igizwe n'abagabo ndetse n'abagore barimo abagabo benshi bambaye amakoti ndetse n'amashati.

Ni umukandida wiyamamarije kuba perezida w'u Rwanda yitwa Philippe Habineza, urabona ko arimo ariyamamaza kandi inyuma ye hariyo abafatanyabikorwa biwe, bamufashije mu kwiyamamaza ndetse bamuha n'amajwi...

Umuhanda ugizwe n'iminyamitende ibiri cyangwa se amapikipiki, harimo atwaye abantu n'andi adafite abantu, hakaba hari n'utundi tumodoka tumeze nk'amapikipiki dusa ubururu dukunze gukoreshwa mu bwikorezi.

Ni umuyonzi wambaye ijire ry'akazi ariko nk'uko bigaragara ntago ari mu mukono wabugenewe kugenderwamo, kuko urabona ko iyo modoka iri kumuturuka imbere ishobora kuba yamugonga, kubera ahantu arimo aragendera.

Iyi modoka niyo bakunze kwita twegerane. Ni imodoka zizwiho gutwara abantu benshi cyane bamwe bakagenda bicaye, abandi bakagenda bahagaze kugirango ijyane abantu benshi icyarimwe ntanumwe usigaye.

Zimwe mu modoka zikoreshwa mu kumenyereza abantu gutwara imodoka mu muhanda, zibamenyereza kwitoza no kumenya imihanda kugira ngo bahabwe ibyangombwa bibemerera gutwara ibinyabiziga.

Iki ni ikinyabiziga bakunze kwita ikamyo ifite ibara ry'umutuku. Aho ishinzwe gukora mu kazi k'ubwubatsi, aho itunda umucanga, ikavana umucanga ahantu hamwe iwujyana aho bari gukora ibikorwa byo kubaka

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho harimo imodoka nini izwiho ko itwara abantu benshi cyane, akaba afite ibyiciro bibiri, hakaba hari icyiciro cy'abantu bagenda bicaye, hakaba n'iyiciro cy'abantu bagenda bahagaze.

Ni imodoka iri mu bwoko bwa fuso is umweru karisoro y'inyuma, ikizuru cy'imbere kirasa icyatsi, ikaba itwaye gaze, mubyukuri iragaragara nk'aho yuko itwaye gaze, izigemuye ahandi hantu.

Ahantu ndabona ibinyabiziga bigiye bitandukanye biri mu muhanda wa kaburimbo aho harimo ikinyabiziga cyitwa ikamyo gikunda kwikorera ibintu biremereye cyane. Hakaba n'ikindi kinyabiziga cyitwa ikinyabiziga cy'imitende ibiri aho kiba gihetse n'undi muntu w'umugenzi.

Ni imodoka nini iri mu bwoko bwa Howo, urabona ko itwaye peteroli ndetse ku ruhande rwayo hari umunyonzi, ubona ko agomba kwitondera icyo kinyabiziga kugira ngo kitaza kumuhungabanya.

Umuhanda munini urimo ikinyabiziga gikoreshwa mu bwikorezi, bakunze kwita ikamyo, aho gifite umwanya munini inyuma gishyiramo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, cyangwa ibindi bikoresho bigiye bitandukanye n'ibicuruzwa nabyo byinshi.

Umuhanda urimo kugendwamo n'imodoka nyinshi, aho hari imodoka zigenda hakaba n'izindi zigaruka, aho zigaruka twavuga ko harimo imodoka zizwi nka twegerane, zizwiho gutwara abantu benshi cyane.

Aha ni mu mujyi wa Kigali, aho ndi kubona umugabo ufite ikinyamitende kizwi nk'igare, inyuma hakaba hari ikindi kinyabiziga kizwiho gutwara abantu benshi cyane, kuruhande rwabo nkabona indi modoka isanzwe, y'umuturage isanzwe, byose biri kugenda.

Izi ni modoka zigezweho zikoreshwa mu ngendo zigiye zitandukanye. Aho zizwiho gutwara abantu benshi cyane aho hari umubare w'abantu baba bicaye hakaba n'umubare w'abantu bagenda bahagaze kugira bave ahantu hamwe bajye ahandi.

Aha ni ikibuga gikinirwamo umukino ukunzwe gukina cyane witwa tenisi, ikibuga cya tenisi mu Rwanda.

Abagabo batatu barimo barakina umukino uzwi cyane ukunze gukinwa n'abakire witwa gorufe aho haba ari agapira gato hakaba hari n'inkoni aho bakoresha iyo nkoni bakubita agapira gato kugira ngo barebe niba akagwa mu mwobo, iyo kaguye m'umwobo uba watsinze.

Iki ni icyapa gikoreshwa mu muhanda kerekana ko utagomba kurenza umuvuduko w'ibirometero mirongo itandatu ku isaha.

Icyapa gisa ibara ry'icyatsi aho ryerekana imwe mu mihanda ya Kigali byerekana amerekezo ajya muri iyo mihanda igiye itandukanye, ubwo hari amerekezo akomeza imbere ari ukujya Kacyiru n'andi merekezo ajya ku kibuga cy'indege cya Kigali.

Icyapa ndangamekerezo cyo mu muhanda, cyerekana ko iyo ukomeje imbere uwo muhanda ugera ahantu harimo za Muhanga, Huye cyangwa ukagera ku Kanyaru cyangwa watambika mu kaboko k'ibumoso, ukaba wagera ahazwi nka Ruhango cyangwa se Kinazi.

Icyapa cyo mu muhanda cyerekana amerekezo gusa kikerekana amerekezo ko bibujijwe gukata mu muhanda uri mu kaboko k'iburyo kuko uwo muhanda uba ubujijwe kunyurwamo bitewe n'impamvu runaka.

Iki ni ikimenyetso cyo mu muhanda aho cyerekana ko hari umuhanda munini ugendwamo n'imodoka zijya imbere hakaba n'undi muhanda mutoya uri kuruhande uza uhita winjira mu muhanda munini.

Ubwoko butatu bw'ibyapa byo mu muhanda aho icyapa kiri hejuru gisobanura ko imbere hari akagunguzi gahari gafasha imodoka kugenda gahoro hakaba ari n'ahantu abanyamaguru bambukira cyane cyane abana bavuye ku ishuri.

Icyapa ndanga merekezo kigaragaza imihanda ari umuhanda ukomeza ujya imbere, hari n'undi utambika ujya iburyo, hakaba n'undi muhanda usubira inyuma aho umuntu yaba yaba avuye ahoho hose.

Iki ni ikimenyetso gikoreshwa mu muhanda aho utangirira hasi bakubwira ko imbere hari umuhanda ukata ujya ibumoso, wakomeza imbere bakakubwira ko hari undi muhanda ufata iburyo ugakomeza imbere.

Iki ni icyapa cyerekana ko cyerekana amerekezo aho ukomeza imbere, bakanerekana ko imbere hari indi nzira iri ibumoso bwaho, iki cyapa kikaba gisa umweru hamwe n'irindi bara ry'ubururu.

Icyapa kinini gikozwe mu mabuye aho kigaragaza ko ari mu cyanya cyahariwe inganda cangwa se icyanya kibamo inganda nyinshi zo mu gihugu cy'u rwanda.

Aha ni inyuma y'inyubako aho ndi kubona ibiti, inyubako isa umweru, hakaba hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye, hejuru y'amatafari hakaba hari senyenge zishinzwe gukumira ibisambo; zirinda n'umutekano kugira ngo zirinde kwibwa.

Aha ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro umurenge wa remera aho herekanwa amazu ari i Remera.

Umutwazi w'ipikipiki cyangwa se uzwi nk'umumotari, afite ipikipiki ye mu muhanda ukozwe mu mabuye, aho yambaye n'ikirinda umutwe gisa umutuku.

Inzu nziza igezweho yubatse ku muhanda wa kaburimbo aho ifite igipangu cyiza ndetse ikaba isize amarangi meza cyane akaba ari inzu ziba ziherereye mu mujyi wa Kigali.

Ishyamba rinini rigizwe n'ibiti bigiye bitandukanye birebire, bifite amashami menshi ndetse bikagira n'amababi asa ibara ry'icyatsi.

Aha, ndabona kaburimbo, munsi yaho hakaba hari icyuma gishinzwe gutunganya amata kikanayakonjesha, ku ruhande rwaho nkabona hari aho bagurira imiti igiye itandukanye ikoreshwa mu buvuzi bwegereye abaturage.

Aha ndikubona inyubako, iyo nyubako ni inyubako ndende, imbere yayo ho gato hari icyapa kiriho kompanyi ishinzwe gukina imikino, gukinisha imikino y'amahirwe, aho abantu batega bakaba batsindira amafaranga binyuze mu mikino y'amahirwe.

Igice cyo mu muhanda, aho imodoka zitwara abagenzi cyangwa imodoka zisanzwe, zihagarara kugira ngo umugenzi avemo bitabangamiye izindi modoka ziri mu muhanda zirimo ziragenda.

Umuhanda utarimo ibinyabiziga wegereye ishyamba ririmo ibiti byinshi cyane, hakaba hariho n'ipoto cyangwa se umunara ushinzwe amashanyarazi, amashanyarazi yifashishwa n'abaturage.

Imodoka ihagaze imbere y'aho abanyamaguru bambukira kandi hari n'ibyuma bifite amatara agaragaza ko abantu bagomba kwambuka cyangwa bagomba guhagarara.

Umuhanda urimo ipikipiki, zimwe mu zigezweho, zikoresha amashanyarazi kugira ngo zitware abagenzi, hakaba n'ibiti by'umukindo mu muhanda biri mu bwatsi buhinze.

Umuhanda w'ahazwi nko ku kinamba, aho hagendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho ibinyabiziga twavuga nk'imodoka, biri kuzamuka bigana mu mujyi, mu mujyi hagati wa Kigali, hakaba n'ikindi kinyabiziga k'imitende ibiri, kiri kugana ku Gisozi.

Aha barikugaragaza umuhanda uri mu bwoko bwa kaburimbo, aho bari kwerekana imirongo iba ishushanyije mu muhanda, itandukanya igice cy'imodoka ziza, n'igice cy'imodoka zigenda, bakerekana n'imirongo yagenewe abanyamaguru yo kwambukiramo.

Imodoka iri mu muhanda, ishinzwe kugemura inyama ahantu hagiye hatandukanye, aho ifite igice cyuma gikonjesha inyama kugirango zitagira ikibazo.

Icyapa cyerekana ko hari ishuri aho hafi, hakaba hari n'aho bambukira aho imbere, hari n'abanyeshuri bari kwambuka umuhanda, hakaba n'ipikipiki yari itwaye umuntu, aho yabanje kureka abanyeshuri ngo babanze bambuke umuhanda.

Imodoka iri mu bwoko bwa Landikuruza igeze muri rompuwe, ahantu runaka ndetse hakurya urabona ko hashobora kuba hari uruganda rw'amazi. Imbere yayo hari abamotari ndetse hirya hari n'indi modoka, ubona ko bose bari mu rugendo.